Inyubako itewe amarangi y'umuhondo. Ku madirishya no ku nzugi hateye irangi y'umukara, ku gikuta hashushanyije ibibabi, ibiti, bishushanyije mu mabara y'icyatsi.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo n'umukara. Hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye mu mabara y'ubururu. Ingorofani ndetse n'igiti. Hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Inyubako itewe irangi ry'umuhondo ndetse n'umukara ku gikuta hashushanyije umuntu hagiye hariho amagambo yerekana buri gice cy'umuntu, iruhande hashushanyije inkoko.

Inyubako y'amashuri y'inshuke iteye irangi risa umuhondo, harimo umugore wambaye imyenda y'icyatsi ari gufungura amadirishya, abana bicaye ku kirago, bari kunywa amata mu bikombe bisa umweru.

Mu rwego rwo kunoza neza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, Leta y'ubumwe yazanye amashuri y'inshuke, kandi ishyiraho n'ibikoresho twifashisha tubigisha. Icyumba cy'amashuri y'inshuke kirimo ibikoresho bitandukanye.

Inyubako y'ikigo cyamashuri itewe amarangi y'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, imbere hari ubusitani bwiza ndetse ku ruhande hakikijwe n'amazu menshi asakajwe n'amabati atukura.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibikoresho bitandukanye nk'ibikapu, imifuka n'ibindi, imbere hari ikibuga kiza cyane giparitseho moto ndetse n'umufuka uharambitse, mu muryango hahagaze abagabo babiri.

Mu rwego rwo kunoza neza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, Leta y'ubumwe yashyizeho ibikoresho twifashisha twiga tunigisha, amakaramu y'ibiti ndetse n'imashini twifashisha twiga imibare, birambitse ku meza, biri mu mabara atandukanye.

Inyubako itewe amarangi y'umuhondo ku gikuta, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibimera bitandukanye ibishyimbo, ibiti ndetse n'ibikoresho bifashisha mu buhinzi, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo, ku nzu inzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibishushanyo bitandukanye ibiti, ibibabi, bishushanyije mu mabara y'icyatsi.

Ikibuga kigari cyane, kiriho abana babiri. Iruhande hari inzu zisakajwe n'amabati y'umutuku n'umukara. Hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'indabo.

Ameza atewe irangi ry'icyatsi. Harambitseho amakaramu y'ibiti agera muri cumi n'abiri. Amwe afite imifuniko isa icyatsi, umutuku ndetse n'umukara.

Igikapu kirambitse hasi kiri mu mabara atandukanye higanjemo umutuku, inyuma hashushanyijeho udusimba twitwa ibinyugunyugu mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Inyubako y'ubucuruzi itewe amarangi atukura. Harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imifuka y'imiceri, akawunga, ibikarito birimo amavuta n'ibindi bitandukanye byo kunywa.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarangi asa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibimera bitandukanye, bishushanyishije mu ibara ry'ibyatsi ndetse n'ubururu.

Inyubako itewe irangi ry'umuhondo, ikiganza gifashe igikapu kiri mu mabara y'umweru, umukara, umuhondo n'umutuku, impande yaho hari icupa risa nk'umweru.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo, ku gikuta hashushanyije ibishushanyo bitandukanye ibigaragaza ibiti ndetse n'amababi n'igihingwa kizwi nk'ibishyimbo.

Uburezi mu Rwanda bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri y'inshuke gisakaje amabati y'ubururu. Imbere hari ibikinisho abana bakiniraho. Bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gisizwe irangi risa ubururu imbere hari abana bato bafite ibikoresho mu ntoki nk'ibitabo n'amakayi hahagaze abarezi babo.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, bamwe muri bo bafite ibitabo abandi nta byo bafite, imbere yabo hahagaze umurezi.

Ishuri risakajwe amabati atukura asa nkaho ashaje. Ku gikuta hateye irangi risa umuhondo ndetse hashushanyije ibishushanyo byinshi, abanyeshuri b'inshuke, bifashisha kugira ngo basobanukirwe ibyo biga.

Icyumba cy'amashuri y'inshuke gitewe amarange y'umuhondo, harimo intebe ebyiri zicaweho n'umugore n'umugabo, umugabo yambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umugore yambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi, bateruye abana bari kubereka ibyigwa mu bitabo.

Ingofero ebyiri zirambitse ku meza, imwe iri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umukara, indi iri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umutuku, iruhande rwazo harambitse indobo y'icyatsi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo. Ku gikuta hashushanyije ibiti by'amoko atandukanye. Biri mu ibara ry'icyatsi. Iruhande hashushanyije ibindi bikoresho abana bifashisha biyungura ubumenyi.

Inyubako y'amashuri itewe amarangi y'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ubwoko bw'inyamaswa zitandukanye, amafi ndetse n'ibindi bishushanyije mu mabara asa umukara.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo ku gikuta. Ku nzugi no ku madirishya hateye amarangi y'umukara. Abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Ku gikuta hashushanyije inyamaswa ndetse n'umuntu.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri isakajwe amabati y'ubururu. Ku nzugi no ku madirishya hateye amarangi asa ubururu, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere mu kibuga hari abanyeshuri bambaye imyenda itandukanye. Imwe isa umukara, ubururu ndetse bahagaze mu busitani.

Igare rikozwe mu byuma bitandukanye, abantu bahagaze bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi, umukara n'umutuku, inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Inyubako ykigo cyamashuri itewe amarangi y'umuhondo, amadirishya n'inzugi hatewe irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ubwoko bw'ibimera butandukanye, ibishyimbo, ibitoki.

Ibikoresho abana bifashisha bakina cyangwa se bishimisha, biri mu masura y'ingagi, bifite amabara asa umweru ndetse n'umuhondo.

Kwiga ni ngombwa mu buzima. Abanyeshuri babiri bicaye ku ntebe. Bafite amakayi imbere yabo. Bashushanyije ibiti, bari kugenda basigamo amabara.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane, abanyeshuri bari ku muronko bambaye impuzankano, yiganjemo ubururu ndetse n'umweru, imbere yabo hahagaze abarezi babiri bambaye amatabuririya y'umweru.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, leta y'ubumwe yashyizeho ibikoresho, abanyeshuri bifashisha biga. Amakaramu y'ibiti, amarate ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo bishushanyije ku gitabo, hashushanyijeho inzu ndetse n'ikibuti kirimo udukwavu, imbere hashushanyije abantu babiri, umuhungu n'umukobwa.

Inyubako iteye amarangi y'umuhondo, igikapu gisa umutuku kirambitse hasi ku makaro hashushanyijeho igipupe cy'umwana kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abana bambaye imyenda iri mu amabara y'ubururu, umukara n'icyatsi bambaye ingofero mu umutwe umwe yambaye isa umweru, undi yambaye isa ubururu umwe ari gusiga irange risa umweru ku igikuta.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo n'umweru ku nzugi no ku madirishya hateye amarangi y'umukara, ku nkuta hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye ibiti n'ibibabi bishushanyishije amabara y'icyatsi.

Ikibuga kigari cyane kiriho ibikoresho abana b'inshuge bifashisha bakina imikino yabo kandi bakora imyitozo ngororamubiri, kikaba gikikijwe n'amashyamba arimo ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'icyatsi, ubururu harimo ibikoresho byinshi bitandukanye twifashisha twiga cyangwa se twigisha, bimwe biri mu mabara y'umutuku, icyatsi, umukara, umweru ndetse n'andi mabara atandukanye.

Isomero ry'ibitabo ryiza cyane kugir ango abanyeshuri biyungure ubumenyi hagomba gushyirwaho isomero ry'ibitabo, harimo ibitabo by'amoko atandukanye ndetse biri mu mabara yiganjemo ubururu, umutuku n'umuhondo.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, leta y'ubumwe yashyizeho amashuri y'inshuke. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru imbere hari ubusitani ndetse n'umuhanda uhagazemo umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru.

Inyubako zubucuruzi zitondetse ku murongo. Mu nzu harimo ibicuruzwa bitandukanye. Hamwe harimo amapine y'imodoka, ahandi harimo ibindi bitandukanye nka biswi, umunyu n'ibindi. Hahagazemo abantu babiri.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu. Gitewe amarangi yu'mweru. Imbere ku gikuta hashushanyijeho ibikoresho abana bifashisha biga. Mu busitani bwaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru.

Icyumba cy'amashuri cyafashwe n'inkongi y'umuriro, gisakajwe amabati y'ubururu imbere mu kibuga hari ibyuma, inyuma hari ishyamba rifite ibiti bitandukanye ndetse hari n'ikigega ku ruhande rw'inyubako y'ikigo.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, mu muryango hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, ku gikuta hashushanyije ibikoresho nk'ingorofani n'ibindi.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo ku nzugi no ku madirishya hari amarangi y'umukara, ku rukuta hashushanyije ibikoresho twifashisha dukora isuku, ibase n'indobo biri mu mabara y'ubururu ndetse n'igisokozo n'umunyeshuri.

Ibitabo abanyeshuri bo mu ncuke bifashisha biga cyangwa se biyungura ubumenyi, bigiye bishushanyijeho ibintu bitandukanye, kimwe gishushanyijeho abantu basa nk'aho bari kwiruka, ikindi gishushanyijeho inyamaswa, ikindi kiriho imodoka.

Ikibuga kiri ahantu mu kibaya, hariho ibikoresho abana b'inshuke bifashisha bakina imikino yabo. byubakishije ibiti bisize amabara y'ubururu, umutuku n'umweru, inyuma yaho hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandu...

Inyubako nziza cyane, itewe amarage y'umuhondo. Inzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara. Mu muryango hagaze umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo umweru n n'umukara. Ku gikuta hashushanyijeho ibikoresho twifashisha mu isuku. Umweyo dukubuza ndetse n'ibasi.

Amacupa twifashisha tunyweramo amazi, igikoma, amata n'ibindi, arambitse ku kirago asa umutuku umuhondo n'icyatsi ndetse n'ubururu.

Icyumba gitewe amarangi y'umweru harimo ibikoresho bitandukanye. Ibitabo, amakayi amakaramu, ibikapu intebe zisa umweru ndetse hari n'amakaramu y'ibiti.

Ikigo cy'amashuri. Ku kibuga hari abana, bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu. Ikigo gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye n'ubusitani bwiza ndetse n'amazu.

Umwana usa nk'aho ari muto, yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'icyatsi, afite ingwa ari kwandika ku kibaho, ikibaho gisa nk'aho bagihanaguye sicyamera neza.

Ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bifashisha bakina imikino yabo barya n'umuyenga. Igikoresho kiri mu mabara y'umuhondo n'umutuku. Hashushanyijeho abantu bari mu mabara y'ubururu.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo. Ku madirishya no ku nzugi hari irangi ry'umukara. Ku bikuta handitseho amagambo ari mabara y'umukara ndetse hari n'igishushanyo cyihashushanyije kiri mu mabara y'ubururu.

Ikibuga kiriho ibikoresho abana b'inshuke bifashisha bakina imikino yabo, gikikijwe n'urugo rw'imiyenzi, bamwe mu bana bari gukina iruhande hahagaze abarezi babo bambaye imyenda yiganjemo umuhondo.

Isomero ririmo ibitabo by'amoko atandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye twifashisha twiga. Biri mu mabara atandukanye:icyatsi, umutuku, ubururu, umukara n'umweru.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri itewe irangi ry'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyijeho ibimera bitandukanye, ibibabi, ibiti ndetse n'ibindi bishushanyije mu mabara y'icyatsi.

Mu rwego rwo kunoza neza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, Leta y'ubumwe yazanye ibikoresho abana b'inshuke bazajya bifashisha bakina imikino yabo. Ikibuga kigari cyane kiriho ibyicundo, abana b'inshuke bari kurya umunyenga.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu. Hari amagambo ahanditse agaragaza aho ikigo giherereye. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu. Hari ubusitani bwiza cyane.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati atukura, ku rukuta hasize irangi risa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hasize irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibimera ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha twiyungura ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo amadirishya n'inzugi hariho irangi risa umukara ku nkuta hashushanyijeho ibishushanyo abanyeshuri bo mu ishuri ribanza bifashisha mu kwiga biri mu mumabara y'ubururu n'umuhondo iruhande haparitse igare.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umukara n'umuhondo, ku gikuta hashushanyije ibikoresho bitandukanye, ingorofani ishushanyije mu ibara ry'ubururu n'isuka, hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, umwe muri bo afite ibitabo mu ntoki.

Umuhanda mugari cyane harimo abana bari gukina, bambaye impuzankan yiganjemo ubururu n'umweru, iruhande rw'umuhanda hari umurima uhinzwe ndetse hari n'inzu,

Inyubako isakajwe amabati y'ubururu itewe sima, imbere yaho hari ubutaka ndetse hari n'ubumeze nk'ubwatwawe n'isuri, hari ikigega cy'umukara.

Icyumba cy'amashuri kigirwamo n'abana b'inshuke. Hateye amarangi y'umuhondo hashushanyijeho ibikoresho twifashisha mu buhinzi. Isuka n'ingorofani.

Icyumba cy'amashuri bigishirizamo abana b'inshuke. Cyubakishijwe amatafari ahiye. Hahagazemo abantu bane. Umwana n'abandi bakuru. Ameza asa ubururu.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo n'umukara, ku nkuta hashushanyije ibishushanyo bitandukanye nk'itoroshi ndetse n'ibindi biri mu mabara y'icyatsi, ubururu, hashushanyije n'ibiti.

Inyubako itewe amarange y'umuhondo, hicayemo abantu bambaye imyenda itandukanye, umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu afite icyapa mu ntoki gishushanyijeho umuntu.

Ibikoresho twifashisha turera abana b'inshuke, imodoka zigera muri enye ziri mu mabara yi'cyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu, umweru n'umukara ziparitse ahantu ku murongo.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwaho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Umwe ni umukobwa undi ni umuhungu. Buri umwe ahetse igikapu kiri mu bitenge. Umuhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ikigo cy'amashuri giteba amarangi asa umuhondo, hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, hariho inkoko y'isake ishushanyije mu mabara y'umukara ndetse n'umuntu n'ibice bimugize.

Ibikoresho abana bifashisha mu mikino yabo, biri mu mabara atandukanye cyane, umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo, hahagaze abana ndetse n'abantu bakuru, iruhande hari ishyamba.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo, ku madirishya no ku nzugi hateye irangi ry'umukara, ku gikuta hashushanyijeho ikibabi mu mabara y'icyatsi n'umukara, hagiye handikaho n'amagambo ya buri gace k'ikibabi.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo. Amadirishya atewe amarange y'umukara. Ku gikuta hashushanyijeho inka iri mabara y'umweru n'umukara ndetse iruhande hari indi nyamaswa ihashushanyije.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Hariho icyapa cyandikishijeho amagambo mu ibara ritukura n'umukara. Imbere hari umuhanda ndetse n'ubusitani. Hicayemo umuntu wambaye imyenda y'ubururu.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda leta y'ubumwe yashyizeho ibikoresho byo kwifashisha mu kurera abana b'incuke, ikibuga kigari cyane kiriho ibikoresho abana bifashisha bakina, bamwe muri bo babyicayeho, hahagaze umugabo wambaye ikote risa umukara.

Inyubako isakajwe amabati atukura, itewe irangi risa umuhondo, imbere mu busitani hari indabo ndetse hari n'igiti cy'umukindo, hahagaze umugabo uhetse igikapu.

Inyubako nziza cyane itemba amarangi y'umuhondo, ku idirishya hateye irangi risa icyatsi, harimo ameza abiri n'intebe ebyiri, hicayemo abantu bane bafite ibyoku kurya n'ibyo kunywa imbere yabo.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, Leta y'ubumwe yashyizeho ibikoresho abana bifashisha biga amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi bikoresho byose bakenera.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye. Ku nzugi no ku madirishya ateye irange risa icyatsi. Imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza, gishakajwe amabati y'umweru cyubakishijwe amatafari ahiye hagati hari ubusitani burimo igiti cyakuze cyane ndetse hagiye hacamo n'inzira.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'ibiti. Imbere mu kibuga cyaho hari abarezi bagera muri makumyabiri abagore n'abagabo. Bambaye amataburiya y'umweru bahagaze mu kibuga k'ibitaka.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa icyatsi, imbere hari ikibuga cy'ibitaka iruhande hari ibiti bihakikije.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati atukura, gitewe amarangi y'umuhondo, imbere hari ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'amoko atandukanye, haciyemo n'umuhanda hagati y'ubusitani.

Ni ngombwa kwiga tukiga no gukoresha ikoranabuhanga, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, iruhande hari abagore babiri n'umugabo umwe, bose bambaye udupfukamunwa, bafashe mudasobwa iri mu gikarito mu ntoki.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo, harimo ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bifashisha biga, bimwe bisa umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse harimo n'intebe zitandukanye.

Ahantu heza cyane harambitse ibikoresho twifashisha twiga: amakaramu, amakayi, ibitabo ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga, biri mu mabara atandukanye: umutuku, ubururu, umweru n'umuhondo.

Inyubako y'amashuri yubatswe neza cyane, mu busitani harimo imyanda yajugunywemo harimo abanyeshuri bari kuyitora bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru bari kuyishyira mu gikoresho cyabugenewe.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi hateye irangi risa umuhondo n'ubururu, imbere ku kibuga hari abanyeshuri bari gukina, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere mu busitani harindada z'amoko atandukanye n'ibiti biteye amabengeza, hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umukara n'umweru.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri bigishirizaho inshuke, isakajwe amategura imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo ibikoresho bifashisha bigisha abana b'inshuke. Iruhande hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, iruhande hari intebe ebyiri imwe yicayeho umumama, indi yicayeho abana, umwana umwe yambaye imyenda iri mumabara atukura, undi n'icyatsi, buri umwe afite ibiryo.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi asa umweru harimo ameza y'umuhondo n'intebe zisa ubururu n'umuhondo, inyuma hari akabati karimo ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha twiga.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byabana b'inshuke, harimo intebe zisa ubururu, icyatsi n'umuhondo, n'ameza asa umweru abanyeshuri bakoresha biga.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane ifite isuku harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse biri no mu mabara atandukanye, twifashisha kwigisha abana b'inshuke kugira ngo na bo biyungure ubundi bumenyi.

Isomero ry'ibitabo ryubakishijwe amatafari mato ahiye, igikuta kimwe giteye irangi risa umweru, ahandi hari icyapa gishushanyijeho ibikoresho nk'ibikombe, imihoro, ibitiyo, amakaramu, hari akabati karimo ibitabo.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda Leta y'ubumwe yazanye ibikoresho twifashisha twigisha abanyeshuri b'inshuke, amakaramu y'ibiti ari mu mabara atandukanye: ubururu, umuhondo, umutuku, icyatsi n'umukara, hari n'ibindi bikoresho twifashisha kwigisha abana b'inshuke.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu. Yubakishijwe amatafari ahiye. Iruhande hari ubusitani bwiza cyane burimo n'ikirango k'igihugu. Hari ibiti by'amoko atandukanye.

Ibitabo twifashisha twigisha abana b'incuke, igitabo kiri mu mabara y'icyatsi n'umutuku, cyanditseho inyuguti z'Ikinyarwanda A,B,C,D kugeza kuri Z.

Ikibaho cyanditseho imibare, imbere hicaye abantu bari mu ngeri zitandukanye abahungu n'abakobwa, bamwe muri bo bamanitse akaboko hejuru, abandi bicaye hejuru y'intebe.

Abanyeshuri bagera muri batanu bapfukamye hasi, buri umwe afite ingwa ari kwandika ku kibaho. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Ubururu, umuhondo, umweru ndetse bamwe bambaye umukara.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Gihugu cyacu, Leta y'ubumwe yashyizeho ibikoresho abana b'inshuke bifashisha biga, amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi bifashisha bari kwiga imibare.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mu kibuga cyaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umuhondo. Bamwe bicaye kuminyenga yabo.

Inyubako nziza y'ishuri ry'inshuke. Ritewe amarange y'umuhondo n'umukara. Hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru. Imbere hari umurezi wabo.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane, gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, mu marembo hari icyapa kigaragaza aho ikigo giherereye Nyagatare, kikaba giteye amarangi y'umuhondo.

Inyubako nziza cyane ifite isuku kandi iteye amabengeza. Hariho ibishushanyo biri mu mabara atandukanye cyane; umutuku, ubururu, umuhondo, umweru, n'umukara. impande hari ubusitani bwiza.

Ikibuga kigari cyane gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, hakurya hari umusozi ugizwe n'amazu, ibimera ndetse n'amashyamba, iruhande hahagaze umuntu.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize, leta y'ubumwe yashyizeho ibitabo byo kwigiramo, igitabo k'ikinyarwanda cy'umunyeshuri wo mu mwaka wa mbere, hashushanyijeho abana bafite igitabo bari gusoma.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu imbere mu muhanda uhari hahagaze abantu bagera ku munani, umugore umwe n'abagabo barindwi inyuma hari ishyamba rikikije inyubako.

Ikibuga kigari cyane, hari abantu bari gukina imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda isa icyatsi n'umukara, iruhande rw'ikibuga hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, iruhande hakikijwe n'ishyamba.

Inyubako nziza iteye amabengeza kandi ifite isuku, isakaje amabati y'umweru, itewe amarangi y'ubururu n'umweru, imbere mu kibuga haparitse ipikipiki ndetse iyi nyubako ikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo ibigori bisa neza. Harimo ibiti bihateye bya gereveriya. Iruhande hari inzu zisakajwe amabati y'ubururu, zikaba zubakishijwe amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye. Ku nzugi no ku madirishya hateye irangi ry'ubururu, mu busitani hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo: icyatsi, umweru n'ubururu. Imbere yabo hahagaze abarezi.

Ibikoresho abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho bya mudasobwa ibitabo, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi, biri mu mabara atandukanye cyane.

Ibyumba by'amashuri bisakajwe amabati y'umweru, imbere hari ikibuga kiriho ibikoresho abana b'inshuke bifashisha bakina ndetse iruhande rw'ishuri hari umurima uhinzemo ibitoki.

Mu rwego rwo kunoza neza imyigire n'imyigishirize, Leta y'u Rwanda yashyizeho ibikoresho twifashisha twigisha abana b'inshuke ndetse na bo mu mashuri abanza, ameza arambitseho ibikoresho nk'amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha twigisha.

Ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha biga kugira ngo biyungure ubumenyi. Ururabo rusa umutuku, radiyo, ipantaro isa ubururu, ingutiya isa icyatsi, isahane, inkweto, umuneke, ingofero ndetse na voka.

Mu Rwanda ni ho usanga hari uburezi budaheza abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo n'ubururu, umwe muri bo ari kugendera mu kagare afite ubumuga, iruhande hari abanyeshuri bunamye bari kurandura ibyatsi mu busitani.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda Leta y'Ubumwe yazanye ibikoresho twifashisha twigisha abana b'inshuke, igitabo kiriho ibikoresho twifashisha twiga, amakaramu y'ibiti ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshuri kumva neza icyigwa.

Ishuri rigari cyane ritewe irangi risa umuhondo, hicayemo abanyeshuri umunani, babiri babiri bicaye ku ntebe, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo, harimo ameza ariho ibikoresho bitandukanye, igitabo ndetse hari n'igikapu kiri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ni ngombwa ko bagira ibikoresho bifashisha mu myigire yabo, amakaramu y'ibiti, ibikapu ndetse n'ibindi bifashisha mu kwiga amasomo atandukanye.

Isomero ry'ibitabo birambitse kumeza buri bitabo bigiye bipanzwe ku murongo, bifite amabara yiganjemo icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo, bimwe muri byo ntabwo bitondetse neza.

Abanyeshuri bagera muri bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, bari kugenda mu nzira, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umweru n'umukara, umwe muri bo ahetse igikapu.

Igikuta gishushanyijeho inyamaswa ndetse n'ibimera, hariho igitoki gishushanyije mu mabara y'umukara. Injangwe ishushanyije mu mabara y'umukara ndetse hari n'indogobe.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi hamwe hari irange risa icyatsi ahandi ni umutuku ahandi ni ubururu, imbere hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Ishuri ryubatse neza ririmo imitako iri mu mabara atandukanye, rikaba ari ishuri ry'inshuke, imitako hari mu mabara higanjemo ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru.

Inyubako zubatse ku musozi zisakajwe amabati ari mabara atandukanye, higanjemo umutuku n'ubururu, zikaba zikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye zimwe muri zo zubatse mu gishanga.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu. Itewe amarangi umutuku n'umuhondo. Imbere hahagaze abantu, ikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, ndetse ku muhanda uri imbere yawo haparitse moto.

Icyumba cyamashuri yinshuke, hagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo n'umukara, bamwe barahagaze bafite ibikinisho byabo biri mu mabara y'umutuku, icyatsi n'umuhondo n'ubururu.

Uburezi bwageze kuri bose. Ishuri ry'inshuke, ririmo ibikoresho byinshi twifashisha twigisha abanyeshuri b'inshuke. Harimo amakaramu y'ibiti, ameza n'udutebe duto abanyeshuri b'inshuke bicaraho iyo bari kwiga.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umweru, ku ntebe hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, buri ntebe yicayeho abanyeshuri babiri, ku nkuta hashushanyijeho ibikoresho bifashisha biga.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo. Ku ntebe hicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Hahagaze umugabo wambaye amadarubindi afite impapuro mu ntoki.

Ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bifashisha kugira ngo bongere cyangwa se biyungure ubumenyi. Birambitse hasi, biri mu mabara atandukanye cyane, icyatsi, umuhondo, ubururu, umutuku n'umukara.

Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye. Amadirishya aterawe irange risa ubururu. Mu ishuri hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu. Umurezi wabo yambaye imyenda itukura.

Igitabo cyo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, gishushanyijeho inkoko ifite igitabo mu ntoki, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, inkuru zisomerwa abanyeshuri, umwaka wa mbere w'amashuri abanza.

Kugira ngo uburezi butere imbere, tugomba kwifashisha n'ibitabo. Ameza arambitseho ibitabo bigera muri bitanu. Hari icy'Ikinyarwanda n'ibindi by'amasomo atandukanye. Kimwe gisa icyatsi, ikindi gisa ubururu ndetse n'igisa umutuku.

Inyubako nziza cyane irimo imitako iteye amabengeza, harimo ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bifashisha mu myigire yabo, bifite amabara atandukanye cyane ubururu, umutuku, umuhondo, umweru n'umukara.

Isomero ry'ibitabo ryiza cyane, ameza arambitseho ibitabo by'amoko atandukanye, bimwe bisa icyatsi, ubururu, umweru ndetse hashushanyijeho n'amashusho atandukanye.

Ikibaho cyandikishijeho ingwa, cyanditseho imibare ndetse n'amagambo, hahagaze umurezi ufite ibitabo mu ntoki yambaye itaburiya y'umweru, afite ingwa ari kwandika ku kibaho.

Mu buryo bwo kongera uburezi bufite ireme leta yashyizeho amashuri y'inshuke, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'icyatsi, ubururu n'umuhondo. Harimo ibikoresho twifashisha twigisha abana b'inshuke.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu. Giteye irange risa umuhondo. Ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa icyatsi. Imbere y'inyubako hari ubukarabiro.

Ibikoresho birambitse ku meza asa umweru. Biri mu mabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo n'ubururu. Tubyifashisha twiga ndetse tunigisha abanyeshuri b'inshuke.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hasize amarangi y'ubururu, imbere hari kandagira ukarabe ndetse hicaye n'umuntu.

Icyumba gitewe amarange y'umweru, harimo uburiri bushashe neza mu bitambaro bisa ubururu, hahagazemo abagabo babiri bambaye imyenda iri mu mabara atukura n'icyatsi.

Inyubako y'amashuri yubatswe neza cyane. ku gikuta hateye irangi risa umuhondo. Ameza meza cyane arambitseho igikapu kiri mu mabara yiganjemo umweru ndetse n'umutuku.

Ikigo cyamashuri gisakajwe amabati y'ubururu, Ku nzugi no ku madirishya hateye amarangi y'umukara. Imbere mu busitani harimo ikirangantego cy'gihugu ndetse n'abantu bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umutuku.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza gisakajwe amabati y'ubururu, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere mu busitani hari indabo ndetse hari n'ikirango cy'Igihugu.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane. Gisakajwe amabati y'ubururu. Cyubakishijwe amatafari ahiye. Imbere mu busitani hari indabo z'amoko atandukanye. Mu muhanda hahagazemo abantu.

Ikigo cyamashuri cyubatswe neza cyane gisakaje amabati y'ubururu, gitewe amarangi asa umuhondo n'ubururu, imbere mu busitani bwaho hari abantu b'ingeri zitandukanye batonze umurongo.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu gitewe amarange y'umukara ku nzugi no ku madirishya cyubakishijwe amatafari ya rukarakara, hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umutuku n'umupira w'umukara.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, Leta y'ubumwe yazanye ibikoresho twifashisha twigisha abana b'inshuke. Ameza arambitseho ibikoresho nk'amakaramu y'ibiti ndetse n'ibitabo.

Icyumba cy'amashuri cyubatswe neza cyane. Cyubakishijwe amatafari ahiye. Hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Imbere yabo hari umurezi wabo uri kwandika ku kibaho.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari, isizwe irangi risa ubururu, mu busitani hari igicumbi cyanditseho indangagaciro na kirazira, impande yaho hari ibiti.

Ikigo cy'ishuri ry'inshuke. Hari ibishushanyo ndetse n'ibikoresho abana bifashisha biyungura cyangwa se bongera ubumenyi bwabo. Hari ubusitani bwiza cyane n'umugozi wanitseho imyenda.

Ibitabo bibiri bigaragaza umwaka w'amashuri ndetse bigaragaza n'igitabo ibirimo, hashushanyijeho abanyeshuri bamwe bafite ibimera bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, harimo ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bifashisha kugira ngo basobanukirwe neza ibyo biga, biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi, ubururu n'umutuku.

Leta y'ubumwe yatugejeje kuri byinshi, inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye biri mu mabara atandukanye: icyatsi, umuhondo, umutuku n'ubururu, tubyifashisha twigisha abanyeshuri b'inshuke.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, ikibuga kigari cyane kiriho ibikoresho twifashisha dukina imikino itandukanye, gukina umupira w'amaguru ndetse n'indi itandukanye.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ikaba isakajwe amabati y'ubururu, imbere mu kibuga hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi.

Ikigo cy'amashuri abanza gisa nk'aho gishaje, amabati atukura amwe yarapfumutse, cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi ry'icyatsi, iruhande hakikije ibiti ndetse n'umurima uteyemo ibishyimbo.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'icyapa kigaragaza aho ikigo giherereye, icyapa kiri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse amagambo yanditseho yandikishije ibara ry'umukara.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati atukura, gitewe amarangi asa umweru, mu busitani hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, imbere yabo hicaye umusaza wicaye ku ntebe ya kinyarwanda.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri kirimo ibikoresho twifashisha twiga cyangwa se twigisha, amakaramu y'ibiti ari mu mabara y'ubururu, umutuku n'umuhondo ndetse n'umukara, iruhande rwayo harambitse ibitabo ndetse hari n'imakasi.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irange risa ubururu, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibikarabiro, iruhande rw'ibikarabiro hari ikigega.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, isakajwe amabati y'ubururu imbere hari ikibuga kigari cyane ndetse n'ibiti bihakikije.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, ku gikuta hashushanyije amashusho atandukanye ndetse harimo n'ibyapa byanditseho amagambo atandukanye, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, gitewe amarangi y'umweru ku nkuta, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere hari ubusitani bwiza.

Isomero ry'ibitabo rimeze neza cyane. Utubati tubiri turimo ibitabo bitondetswe ku murongo. Biri mumabara atandukanye umutuku, icyatsi, umweru, umukara ndetse hari n'ibisa ubururu.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu myigire yabo, amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu gihe bari kwiga imibare n'andi masomo agiye atandukanye.

Icyumba cy'isomero, harimo ameza arambitseho ibitabo biri mu mabara atandukanye. Umuhondo, Ubururu, Umutuku n'Umweru, hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru, iciye amaboko.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, hakaba harimo n'ubusitani bwiza, imbere ku marembo hari icyapa kigaragaza aho ikigo giherereye, byanditse mu magambo y'umweru.

Mu rwego rwo kunoza neza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, Leta y'ubumwe idahwema guteza imbere abaturarwanda yashyizeho ibikoresho twifashisha twiga n'amakaramu y'ibiti n'ibindi.

Ishuri ry'inshuke rifite isuku kandi isuku ni'soko y'ubuzima, harimo ameza asa umuhondo, umutuku n'ubururu ,akaba akikijwe n'intebe nziza cyane ziri mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Ibikoresho abana b'inshuke bifashisha mu myigire yabo, harimo amakaramu y'ibiti n'utundi dukinisho, biri mu mabara atandukanye: umuhondo, umutuku, ubururu n'umweru.

Inyubako isakajwe amabati atukura, inzugi namadirishya biteye amarangi asa ubururu, ku gikuta hateye irangi risa umuhondo, buri gice kigiye cyandikwaho uko kitwa.

Inyubako nziza cyane ifite isuku, aho inshuke zigira, hateye amarangi y'umweru n'umuhondo, ameza ariho ibikoresho nk'amakaramu y'ibiti ndetse n'ibindi bifashisha biga, intebe zisa icyatsi n'ubururu.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye ndetse mo imbere harimo ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye ku marembo hari urugi rw'icyatsi rwanditseho amagambo aho ikigo giherereye.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda, leta y'ubumwe yazanye ibikoresho abanyeshuri bifashisha biga. Amakaramu y'ibiti ari mu mabara atandukanye, ibitabo ndetse bikaba bifite amabara atandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikikijwe n'amashyamba arimo ibiti bitandukanye, hari icyapa kigaragaza ko ari igororero ry'abana rya Nyagatare, ahajyanwa abana mu gihe bafite amakosa.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Rwanda Leta y'ubumwe yashyizeho ibikoresho twifashisha twiga ndetse tunigisha, ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye ndetse biri mu mabara atandukanye icyatsi, umutuku, umukara n'ubururu.

Kwiga ni byiza ariko tugakoresha n'ibikoresho byabugenewe bimwe muri byo bidufasha kugira ubumenyi buhagije, ibikoresho bitandukanye nk'amakaramu y'ibiti, imipira twifashisha dukina ndetse n'ibindi biri mu mabara atandukanye.

Mu rwego rwo kunoza imyigire n'imyigishirize mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, Leta y'ubumwe yazanye ibikoresho twifashisha twigisha abanyeshuri harimo amakaramu y'ibiti ari mu mabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umukara, umweru, umutuku ndetse n'ibindi bikoresho birambitse ku meza.

Icyumba cy'amashuri harimo abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo n'umweru, buri umwe afite ikayi n'ikaramu imbere hari umurezi wabo uri kwandika ku kibaho.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, intebe zisa icyatsi ndetse n'ameza agiye arambitseho mudasobwa.

Ishuri ryicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe yambaye udupfukamunwa turi mu mabara y'umukara n'umutuku, buri wese afite ikaramu n'ikayi ari kwandika.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, bambaye n'udupfukamunwa dusa umukara. Bicaye mu isomero ndetse bamwe muri bo bafite amakaye n'amakaramu, bari kwandika.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi, buri umwe afite ikaramu n'ikayi ari kwandika.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye itewe irangi risa umukara n'umuhondo n'ubururu hahagazeho abagabo babiri bambaye amajiri ari mu ibara ry'icyatsi, imbere hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, itewe amarangi asa ubururu ku nzugi no ku madirishya, imbere hari ikibuga cy'ibitaka ndetse hakikijwe n'ibiti by'amoko atandu...

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara. Bahagaze mu busitani bwiza cyane bose bari guseka. Inyuma yabo hari ishuri risakajwe amabati y'ubururu.

Abanyeshuri bahagaze mu muhanda bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, iruhande rw'umuhanda hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ubusitani burimo indabo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye hicayemo abanyeshuri b'ibigo bitandukanye, bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, umukara n'ubururu, imbere yabo hari abarezi bafite indangururamajwi mu ntoki.

Imodoka isa icyatsi ihagaze mu muhanda, mu imbere harimo abantu, hejuru hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, umwe muri bo amanitse amaboko hejuru undi ari guseka.

Gusenga twabigize umuco mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, bari mu rusengero rwubatse neza cyane kandi rufite n'imitako myiza.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati atukura, mu muhanda uhari hahagaze umugore ufite indobo y'ubururu, yambaye imyenda itukura, mu busitani bwaho harimo ibiti ndetse n'indabo.

Inyubako y'amashuri itewe amarangi y'umuhondo hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, buri umwe afite mudasobwa imbere ye ndetse bamwe muri bo bafite amakayi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose abanyeshuri bicaye mu busitani bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi, ubururu n'umukara, bamwe bicaye hasi abandi barahagaze bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako y'amashuri itewe amarangi y'umuhondo. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Umwe muri bo yambaye amadarubindi afite ikayi mu ntoki. Impande yabo hari ubusitani.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo, intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, bamwe muri bo barimo guseka, imbere yaho hari umugore uhahagaze wambaye ijiri y'umukara.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu bicaye ku ntebe mu kibuga bamwe barahagaze imbere yabo bahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara.

Amashuri yubatswe neza cyane, asakajwe amabati y'umweru, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ubusitani bwiza cyane bufite isuku, burimo indabo ziganjemo amabara atukura, hagati haciyemo umuhanda.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bugari cyane hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, bamwe muri bo barahagaze, inyuma hari ikigega hari n'ahanitse imyenda.

Ubutaka bugari cyane buhinzweho ibihingwa bigiye bitandukanye. Hahagazemo umugore wambaye amadarubindi n'ishati y'ubururu. Afite indangururamajwi mu ntoki. Iruhande rwe hari undi wicaye wambaye umupira utukura.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye. Harimo amatara. Amadirishya n' inzugi bitewe irangi risa ubururu. Hahagazemo abantu bari mu ngeri zitandukanye. Abagore n'abagabo. Bamwe muri bo bambaye amajiri, abandi nta yo bambaye.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse n'ibiti bitandukanye hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ijiri y'umukara.

Icyumba cy'amashuri yisumbuye cyubatswe neza cyane giterawe irangi risa umuhondo n'umweru, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru, buri umwe yambaye agapfukamunwa kandi afite mudasobwa imbere ye ikaramu n'ikayi, imbere yabo hahagaze umurezi.

Ikibuga kigari cyane gihagazweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, iruhande rwabo hari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati atukura, cyubakishijwe amatafari ahiye. Hari abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umweru, imbere ku kibuga hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu.

Umunyeshuri wambaye impuzankano umweru n'umukara asa nkaho afite ibiheri mu maso, inyuma ye hari ibiti ndetse ahagaze mu busitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, imbere hahagaze umugore n'umwana we, umwana yambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, iruhande hari ubusitani bwiza burimo indabo z'amoko atandukanye.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo n'umukara, imbere mu busitani hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, ubusitani bukikijwe n'ibiti bitandukanye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru bahagaze mu muhanda, iruhande hari ubusitani ndetse inyuma hari inzu itewe amarangi y'umweru.

Icyapa kigaragaza aho ikigo giherereye, kiri mu mabara y'icyatsi handikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, kikaba gitewe amarangi asa umuhondo, kikaba gikikijwe n'ibiti bitandukanye n'ubusitani bwiza cyane.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, bicaye ku ntebe mu kibuga, inyubako ikikijwe n'ibiti birimo amoko atandukanye ndetse abanyeshuri bicaye mu busitani.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, mu busitani hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, harimo intebe hicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi, bamwe muri bo bafite amakaramu bari kwandika abandi baryamye ku ntebe.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hasize irangi risa umuhondo, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ikigega hagaze umuntu wambaye imyenda y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye. Itewe amarangi y'ubururu n'umuhondo. Isakajwe amabati asa nkaho ashaje. Hahagaze abantu bambaye amajiri asa icyatsi n'umuhondo n'umweru.

Inyubako yubakishijwe amatafari, inzugi n'amadirishya biteye irange risa ubururu. hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye. Bamwe bambaye amajiri, umwe muri bo afite ikayi mu ntoki.

Abanyeshuri bicaye mu busitani bwiza cyane. Bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amadarubindi, afite urupapuro ndetse n'indangururamajwi mu ntoki.

Ikigo cyamashuri gisakajwe amabati y'ubururu. Cyubakishijwe amatafari ahiye, ku madirishya no ku nzugi hasize amarange y'ubururu. Imbere mu busitani hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru. Bamwe barahagaze.

Ikibuga kigari cyane gihagazweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati yo mabara y'umweru n'umukara, afite ibiti mu ntoki, iruhande hari ubusitani burimo ibiti by'amoko bitandukanye.

Icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ya rukarakara harimo ikibaho ndetse hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru hari ameza ateretseho mudasobwa n'ibindi bikoresho twifashisha by'ikoranabuhanga.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri harimo intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umuhondo, buri umwe afite ikayi n'ikaramu ari kwandika, bamwe muri bo bafite n'ibikoresho twifashisha dukora imibare.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'icyatsi n'ubururu, intebe z'ubururu zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, imbere hari umuyobozi wambaye amadarubindi ufite indangururamajwi mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, intebe zicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru. Bicaye mu busitani bwiza, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amadarubindi afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'urupapuro.

Isomero ry'ibitabo ryiza cyane. Ibitabo biri mu moko atandukanye bipanze mu kabati. Bigiye bipanze ku murongo. Bimwe bisa umukara, ibindi bisa umuhondo, ubururu n'umutuku. Bimwe birambitse ku meza. Umurizi wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe.

Icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere mu busitani bw'aho hari indabo z'amoko atandukanye ndetse n'ibiti bihakikije, hahagaze abantu bambaye amajiri ari mu mabara y'ibyatsi.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi asa umuhondo, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi, bamwe muri bo barahagaze abandi bicaye mu ntebe.

Isomero ryiza cyane ririmo ibitabo bitandukanye, bimwe bisa umutuku, icyatsi, ubururu n'umukara, ahagaze abanyeshuri babiri buri umwe afite urupapuro mu ntoki ndetse bafite na bibiliya.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru. Bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru. Bamwe muri bo bakoze itsinda, begeranya intebe bari gusoma urupapuro.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hamwe hasakarijwe amabati y'umweru asa nk'aho ashaje, hahagazemo abagore babiri n'abagabo batatu, umugabo umwe afite ibipapuro mu ntoki.

Ikigo cyamashuri gisakajwe amabati y'ubururu ku nzugi no ku madirishya hari irangi ry'ubururu ndetse cyubakishijwe amatafari ahiye imbere mu busitani hari ikirango k'igihugu.

Ubusitani bwiza cyane ndetse n'ikibuga hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umweru n'icyatsi, imbere yabo hahagaze umugore ndetse n'abagabo batatu.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, amadirishya atera irangi risa ubururu, ahagazemo abantu bambaye amajiri yiganjemo umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umweru.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amategura ahandi ni amabati. Gisa nk'aho kiri ku musozi. Gikikijwe n'amashyamba ndetse n'imirima irimo ibihingwa bitandukanye. Umurima umwe uhinzemo indabo.

Inyubako y'amashuri yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe yambaye agapfukamunwa, imbere yabo hahagaze undi muntu mukuru ufite indangururamajwi.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye, hashushanyijeho icyapa cyanditseho amagambo amahame y'intore indangagaciro na kirazira, imbere hari ubusitani bwiza cyane.

Abanyeshuri bahagaze ku kibuga cyiza cyane, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru n'umukara, inyuma yabo hari ishyamba iruhande hari inzu.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo n'umukara, hicayemo abanyeshuri bambaye imyenda itandukanye umukara, ubururu, umweru, umuhondo, bamwe muri bo bafite amakayi n'amakaramu.

Uburezi bufite ireme ni inkingi y'iterambere rirambye. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo. Imbere mu busitani bwabo hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru. Imbere hari abayobozi bahicaye.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi ry'ubururu, hicayemo abantu ndetse abandi barahagaze bambaye amajiri yiganjemo amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Ikibuga kigari cyane kimezeho ibyatsi bitoshye, hahagazemo abantu benshi bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi hasi umukara, buri umwe afite inkoni mu kaboko, inyuma y'ikibuga hari umuhanda.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ubusitani bufite isuku cyane, ku kibuga haparitse imodoka, mu busitani hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, abanyeshuri bahagaze mu busitani bwiza cyane bukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, bambaye impuzankano yiganjemo umukara, icyatsi n'ubururu, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere hari ubusitani bwiza, hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru. Buri umwe afite ururabo, ndetse imbere yabo hari padiri.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku marembo hari urugi rusa umukara, hahagaze umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'umutuku, hari undi mukobwa uri kumupima umuriro.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, abantu bahagaze mo imbere bambaye amajiri ari mu mabara y'icyatsi, umweru n'umuhondo, bamwe muri bo bafite amakayi mu ntoki.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye ku madirishya hateye irangi risa ubururu, mu busitani hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano ubururu, umweru, imbere yabo hagaze umugore wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, inzugi zitewe amarangi y'umukara, umunyeshuri uri kwandika ku kibaho wambaye impuzankano yiganjemo umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, iruhande ku muhanda uhari hahagaze abanyeshuri batanu bambaye impuzankano yiganjemo umweru, hahagaze n'umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa umukara.

Inyubako itewe amarange y'umukara n'ubururu. Hahagazemo abantu bagera kuri barindwi. Abagabo n'abagore. Bambaye amajire ari mu mabara atandukanye. Higanjemo umuhondo, icyatsi n'umweru. Bambaye imyenda yiganjemo umukara.

Inyubako zisakajwe amategura, zubakishijwe amatafari ahiye. Imbere hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye n'ibiti by'amoko atandukanye. Mu busitani bwabo hahagaze umugore wambaye ishati iri mu mabara y'umweru n'icyatsi.

Ubusitani bwiza cyane hicayemo abantu, bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, higanjemo umutuku nubururu, imbere yaho harumu umugabo uhagaze wambaye amadarubindi afite urupapuro n'indangururamajwi mu ntoki.

Uburezi bwageze kuri bose, ikigo cyamashuri cyubatswe neza cyane gisakajwe amabati atukura, mu busitani hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, icyatsi n'umukara, bicaye ku ntebe, abarezi babo barahagaze.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, handitseho amagambo atandukanye indangagaciro na kirazira, imbere mu muhanda uhari hahagaze abantu bari mu ngeri zitandukanye. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane.

Isomero ririmo ibitabo by'amoko atandukanye, biri mu mabara y'umweru, icyatsi n'ubururu, bipanze ku murongo, mu isomero hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru ndetse n'abandi bantu batari abanyeshuri, umwe yambaye amadarubindi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo n'umweru, harimo abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe yambaye agapfukamunwa, hahagazemo abantu umugore n'umugabo, umugore yambaye amadarubindi.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umukara n'umuhondo, abanyeshuri bicaye ku ntebe buri umwe afite mudasobwa imbere ye, bambaye impuzankano yiganjemo umweru kandi buri umwe yambaye agapfukamunwa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara. Bicaye ku ntebe zisa ubururu, imbere yabo hicaye undi muntu wambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku n'umukara.

Ikigo cyubakishijwe amatafari ahiye gisakajwe amabati y'umweru, imbere hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, inyuma hagaze abandi banyeshuri.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umweru, intebe z'umweru ziciweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi.

Ubusitani bwiza cyane burimo abanyeshuri bambaye impuzankano, yiganjemo umweru n'ubururu. Buri umwe afite impamyabumenyi imbere ye. Iruhande rw'ikibuga hari ibiti bitandukanye.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo, harimo ibikoresho bikunda kwifashishwa ku bigo by'amashuri bari gutekera abana, hahagazemo abantu bagera ku icumi bambaye amajile.

Umuhanda mugari cyane harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, umuhondo n'ubururu, iruhande rw'umuhanda hakikije ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore bambaye utujiri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu. Hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye amajiri, yiganjemo icyatsi n'umuhondo.

Uburezi bufite ireme ni inkingi y'iterambere rirambye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, buri umwe afite ikayi imbere ye.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye. Bahagaze mu busitani, bari kumwe n'abayobozi babo, bari kubahereza mudasobwa. Umugore umwe afite indangururamajwi mu ntoki. Mu busitani bwaho harimo ikigega.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ikikijwe n'ibiti bitandukanye, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ikigega, i mpande y'ikigega hahagaze umuntu wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye. Ku nzugi no ku madirishya hateye irange risa ubururu. Ndetse isakajwe amabati y'ubururu. Imbere hari ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'amoko atandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, bahagaze mu busitani bwiza cyane bufite indabo z'amoko atandukanye, bamwe muri bo baricaye, iruhande hari ikibuga abanyeshuri bifashisha bakora imyidagaduro.

Uburezi bufite ireme bwageze hose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umweru n'ubururu hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umweru n'umukara, umwe ahagaze imbere yabo afite ikayi mu ntoki.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye. Itewe irangi ry'umuhondo. Iruhande hari ikigega ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane. Imbere hahagaze umugore ndetse n'umugabo. Umugabo yambaye ijile iri mu mabara y'ibyatsi.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, hahagaze umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, afite ikayi irambitse ku ntebe, afite ikaramu mu ntoki, akaboko kamwe akamanitse hejuru.

Umuhanda mugari cyane ukikijwe n'amashyamba arimo ibiti by'amoko atandukanye, harimo abanyeshuri b'ibigo bitandukanye, bamwe bambaye imyenda y'umweru abandi bambaye ubururu n'umuhondo, imbere hari abanyeshuri batatu bafite icyapa mu ntoki ndetse n'umuntu ushinzwe umutekano.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye itewe amarangi asa umuhondo ku nzugi no ku madirishya hateye amarangi zubururu hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye amajiri asa icyatsi n'umuhondo n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bahagaze mu kibuga. Bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara. Inyuma hari ubusitani bwicawemo n'abandi banyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ku nzugi no ku madirishya ateye irangi ry'ubururu, imbere hari ubusitani bwiza cyane kandi hari n'ikigega gisa umukara hari ibiti by'amoko atandukanye.

Gusoma byungura ubundi bumenyi, isomero ryiza cyane ririmo ibitabo by'amoko atandukanye, bigiye bipanze ku muronko hakurikije ubwoko ndetse n'amabara, imbere hahagaze abanyeshuri babiri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe afite urupapuro mu ntoki ari gusoma.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, hagazemo abagore n'abagabo bamwe bambaye amajiri asa icyatsi abandi bambaye asa ubururu, inyuma y'inyubako hari ibiti by'amoko atandukanye.

Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye. Hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo amabara y'umweru n'icyatsi. Hari umugabo wambaye ikote risa umukara. Bose bafashe ku cyapa kiri mu mabara y'icyatsi, umwe muri bo afite bibiliya mu ntoki.

Icyumba cy'amashuri cyubatswe neza. Giteye irangi risa umuhondo. Harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi. Bamwe muri bo bicaye mu ntebe.

Ikibuga kigari cyane cyicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru, iruhande rwabo hari ibiti bitandukanye ndetse hari n'ikigega gisu umukara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Bahagaze ahantu ku muhanda, hari kandagira ukarabe. Iri mu mabara y'icyatsi n'ubururu, imbere yabo hari ubusitani.

Ikigo bigishirizamo abana b'inshuke harimo ubusitani bwiza cyane ndetse ni ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu myidagaduro yabo, gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye n'indabo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ku madirishya no ku nzugi hateye irangi risa ubururu, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye, bamwe muri bo bambaye amajiri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ntago isakaye, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, bamwe bari guseka bamanitse akaboko hejuru.

Abanyeshuri benshi bari hamwe, basa nkaho bahuriye mu kibuga. Bamwe bahetse ibikapu, bafite n'ibindi mu ntoki. Bambaye impuzankano yiganjemo: umutuku, umweru, umuhondo n'icyatsi.

Ikigo cyamashuri hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Bicaye ku ntebe zisa ubururu. Imbere hicaye abayobozi babo ndetse harimo n'abanyamahanga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwe irangi risa umuhondo n'ubururu, harimo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse bamwe muri bo bambaye amajile.

Isomero ryiza cyane. Harimo ibitabo biri mu kabati bigiye bipanze ku murongo. Harimo n'abantu bicayemo bari gusoma ibitabo. Umwe muri bo arahagaze afite igitabo mu ntoki. Ibitabo biri mu mabara atandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze.

Icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye harimo intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara, umweru n'icyatsi buri umwe afite ikaramu n'ikayi ari kwandika.

Inyubako isakajwe amabati asa nk'aho ashaje, yubakishijwe amatafari ahiye, ikibuga giparitsemo imodoka ebyiri, ahandi hahagaze abantu, abagore n'abagabo, bamwe bambaye amajiri.

Ubusitani bwiza cyane hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara, umweru, ubururu, buri umwe yambaye agapfukamunwa, bahagararanye n'umugabo usa nk'aho ushinzwe umutekano ari kubapima umuriro.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti by'amoko atandukanye, hariho icyapa cyanditseho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara agaragaza aho ikigo giherereye, hari n'ikirangantego kigaragaza ishuri.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo bambaye amajiri asa icyatsi n'umweru, bamwe muri bo bambaye imipira isa umweru.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'icyatsi n'ubururu. Hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru. Imbere yabo hari abayobozi bahicaye. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Harimo n'abanyamahanga.

Inyubako nziza cyane irimo amatara, yubakishije amatafari ahiye, ku madirishya hari amarangi y'ubururu, hahagazemo abagabo n'abagore bambaye amajiri yiganjemo icyatsi n'umweru.

Inyubako yikigo cyamashuri isakaje amabati y'ubururu, yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hatewe irangi risa ubururu, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse hahagaze umugabo wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku madirishya no ku nzugi hateye irangi risa ubururu. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi, ubururu n'umukara. Umwe muri bo afite ikaramu n'urupapuro ari kwandika.

Ishuri ry'imyuga naryo ni ingirakamaro kandi ryageze kuri bose, ishuri ryubatse neza cyane risizwe amarangi y'umweru, hahagazemo abanyeshuri biga kudoda imbere yabo hari imashini ndetse buri umwe afite n'ikintu ari kudoda.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, hahagazemo abanyeshuri biga mu ishuri ry'imyuga, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, buri umwe afite igikoresho ari gukora.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'ubururu, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, bicaye ku ntebe zisa ubururu, hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo. Hahagazemo abantu bari mu ngeri zitandukanye. Abagabo n'abagore. Bamwe muri bo bambaye amajire abandi ntayo bambaye. Bamwe bafite ibitabo mu ntoki. Bambaye amajire ari mu mabara y'icyatsi n'umu.

Ubusitani bwiza cyane bwicawemo n'abantu bari mu ngeri zitandukanye. Harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, imbere yabo hari umuntu mukuru, ufite icyo ari kuvuga, inyuma y'umuntu hicaye abandi bantu, iruhande hari amazu ahakikije ndetse n'ibiti.

Abanyeshuri b'ibigo bitandukanye, bambaye impuzankano yiganjemo umweru, ubururu, umuhondo, umutuku n'umukara, bicaye mu busitani bwiza cyane, imbere yabo hari umunyeshuri wambaye ishati y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki.

Inyubako nziza cyane ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu. Inyuma y'inyubako hari ibiti by'amoko atandukanye. Hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye. Abagore n'abagabo. Bamwe bambaye amajiri y'icyatsi abandi bambaye asa umuhondo.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi asa umweru n'umukara hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, bambaye n'udupfukamunwa, imbere hari abayobozi bambaye udupfukamunwa ndetse n'umurezi wabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri itewe amarangi y'umuhondo, imbere hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe yambaye agapfukamunwa kandi afite mudasobwa imbere ye n'icupa ririmo amazi.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo. Hari icyapa kiri mu mabara y'umweru, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, iruhande hahagaze umunyeshuri.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo harimo amakaro, harimo ibikoresho bisa ubururu ndetse n'abantu batatu, bamwe baricaye undi arahagaze arimo kubafotora.

Inyubako nziza cyane irimo imitako. Irambitse ku gitambaro kiri mu ibara ry'ubururu. Imitako imwe isa: umweru, umutuku, ubururu ndetse indi isa icyatsi.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'ubururu. Hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye. Abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo. Bafite amakaramu n'amakayi barimo kwandika.

Abantu bagera kuri bane bambaye amakanzu n'ingofero bigaragara ko basoje icyiciro rusange cya kaminuza, inyuma yabo hari abandi bicaye basa nkaho bari mubi birori.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'ubururu, hariho icyapa kigaragaza ko ari ishuri ryigirwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara y'icyatsi, ubururu n'umweru.

Igitabo gishushanyijeho umugore wambaye imyenda y'igitenge. Ateruye umwana mu ntoki, umwana yambaye imyenda isa umuhondo. Iruhande hari inyubako itewe amarange y'umweru.

Inyubako nziza cyane isakaje amategura. Itewe amarangi y'umweru. Imbere mu busitani harimo ibiti nka gereveriya ndetse n'ibindi. Mu muhanda hahagazemo abantu bagera kuri bane.

Inyubako zubatse ahantu heza cyane. Zubakishijwe amategura ndetse n'amabati. Hagati haciyemo umuhanda. Iruhande rw'umuhanda hari ubusitani bwiza burimo indabo z'amoko atandukanye.

Inyubako itewe amarangi y'umuhondo, hari ibishushanyo biri ku gikuta mu mabara y'umukara n'icyatsi, harimo ameza ndetse n'ibikoresho bifite amabara yubururu twifashisha mu bwiherero.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru n'umukara, mu muhanda hari kugendamo umuhungu wambaye imyenda y'umukara afite n'igikapu na telefone mu ntoki, iruhande hari ubusitani bwiza cyane.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo n'umweru. Ameza meza cyane. Intebe z'icyatsi zicaweho n'abantu bari mu ngeri zitandukanye. Bamwe bafite mudasobwa imbere yabo, abandi bafite amakayi n'amakaramu.

Inyubako yubatse neza cyane yubakanye isuku, atewe irangi risa umuhondo, harimo ibikoresho bisa ubururu byifashishwa mu bwiherero, ndetse hahagazemo umuntu.

Umunyeshuri wambaye imyenda igaragaza ko ashoje icyiciro rusange cya kaminuza. Ari kumwe n'undi muntu wambaye amadarubindi, ari kumuhereza impano. Inyuma yabo hicaye abandi.

Inyubako nziza cyane iteye amabengeza. Iteye irangi risa umuhondo, intebe z'umukara, zicaweho n'abantu b'ingeri zitandukanye. Abagore, abagabo, abahungu n'abakobwa. Imbere yabo hahagaze umuntu.

Inyubako itewe amarange y'umweru hasi hashashwe amakaro, harimo ikibaho cyandikishijweho amabara y'umukara, harimo intebe isize amarange atukura ndetse hari n'indi ntebe isa ubururu.

Inyubako nziza cyane hari umuhanda uri kugendwaho n'abantu bari mu ngeri zitandukanye. Abahungu, abakobwa, abagore ndetse n'abagabo. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Iruhande hari ubusitani bwiza cyane.

Ikibuga kiza cyane gisashwemo amatafari. Hari ahantu hubakiye baparika ibinyabiziga. Harimo amagare, Iruhande hahagaze umugabo wambaye imyenda yiganjemo umukara. Iruhande hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako itewe amarangi y'umweru, icyatsi n'ubururu, hicayemo abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye yiganjemo umweru, umukara n'umuhondo, buri umwe aricaye afite mudasobwa imbere ye.

Inyubako nziza cyane isakajwe amategura, itewe irangi ry'umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane bufite isuku ndetse mu muhanda hari kugendwamo n'abantu babiri umugore n'umugabo, iruhande hakikijwe n'ibiti bitandukanye.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi asa umweru. Harimo ameza afite isuku n'intebe ziri mu mabara y'icyatsi. Hicayemo abantu bari mu ngeri zitandukanye. Bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru n'umukara, urugi rufite amarangi y'ubururu, imbere hari umuntu uri kugenda wambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo afite n'igikapu mu ntoki ari kwireba mu kirahure.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo n'icyatsi. Ku nzugi no ku madirishya hateye irangi ry'ubururu. Imbere hahagaze abanyeshuri bambaye imyenda bafite n'ingofero, bagaragaza ko basoje kaminuza.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo n'umweru. Imbere hari ubusitani bufite isuku bwiza cyane, harimo indabo z'amoko atandukanye. Mu muhanda hahagazemo abakobwa babiri. Umwe yambaye imyenda itukura, undi yambaye umukara n'umweru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isize amarang asa umweru n'ubururu, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Inyubako isakajwe amategura. Itewe amarangi y'umweru. Imbere hari ubusitani bwiza cyane, hafite isuku. Harimo indabo z'amoko atandukanye. Mu muhanda hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Inyubako itewe amarange y'umuhondo, hicayemo abantu bagera kuri bane, buri umwe yambaye agapfukamunwa, bicaye ku ntebe z'amabara atandukanye, umutuku n'umukara, umwe muri bo afite ikayi n'ikaramu ari kwandika.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa, imbere yabo hahagaze umugore wambaye imyenda y'umukara amanitse amaboko hejuru, hari ameza ariho ibikoresho bya mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Inyubako y'amashuri isakajwe mategura, itewe amarangi asa umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane kandi bukaba burimo indabo nziza, mu muhanda hahagazemo abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umuhungu yambaye umupira w'ubururu afite amakayi mu ntoki.

Inyubako isakajwe amategura, itewe irangi ryumweru n'umukara, hari ubusitani bwiza ndetse mu muhanda uhari hari umuntu uhagazemo wambaye umupira w'umukara.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, harimo intebe zifite isuku n'ameza, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye bari gukoresha mudasobwa, umwe muri bo arahagaze afite telefoni mu ntoki.

Kwiga imibare ni ingenzi kuri buri muntu wese. Ameza afite isuku akeye cyane, harambitseho ikayi yanditswemo imibare, ikaba yandikishije ikaramu y'ubururu.

Isuku ni isoko y'ubuzima, ubusitani bukeye cyane harimo indabo z'amoko atandukanye ndetse n'ibiti biteye amabengeza, imbere hari ikibuga cyiza cyane gikikijwe n'indabo z'amoko atandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite isuku. Harimo intebe ndetse n'ameza. Hicayemo abantu buri umwe afite ikayi n'ikaramu imbere ye ndetse afite na mudasobwa. Umwe yambaye ikote risa umukara.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru, kumadirishya hateye amarangi asa ubururu, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, buri umwe afite amazi imbere ye, imbere yabo hagaze abantu babiri.

Icyumba cy'amashuri y'inshuke. Gitewe amarange y'umuhondo. Ku meza harambitse ibikoresho bifashisha bigisha abanyeshuri b'inshuke. Harimo ibibumbano ndetse n'ibindi biri mu mabara yiganjemo ay'ibitenge.

Ubusitani bwiza cyane bwicayeho abantu bagera muri bane abandi barahagaze, bamwe muribo bafite mudasobwa abandi bafite ibitabo, amakayi n'amakaramu mu ntoki, iruhande rwabo hari inyubako nziza.

Mu rwego rwo kongera ubumenyi leta y'ubumwe yashyizeho amashuri azwi nka kaminuza, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru hicayemo abantu batandukanye ndetse hahagazemo n'umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umukara n'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irange risa icyatsi, ku nkuta hagiye hariho ibishushanyo bitwibutsa umuco gakondo ndetse n'ibindi byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri b'inshuke.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwaho n'abantu batandukanye. Umwe afite ikayi mu ntoki yambaye ishati y'umweru. Abandi bahagaze impande y'inzu umuntu ucunga umutekano abamo. Iruhande hakikije ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako nziza cyane isakajwe amategura, itewe irangi risa umweru n'umukara, imbere mu kibuga hahagaze umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo. Ku nzugi hateye irangi risa icyatsi. harimo amakaro. Harimo ibikoresho twifashisha mu bwiherero bisa ubururu.

Inyubako nziza cyane isakajwe amategura. Itewe amarangi y'umweru. Imbere hari ubusitani bwiza cyane bufite isuku. Burimo indabo zitandukanye ndetse hagati hari ikigega gisa umukara.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umukara n'umuhondo, imbere hahagaze umuhungu wambaye imyenda, ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, imbere y'inyubako hari ubusitani.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo, harimo ibikoresho bisa ubururu, hicayemo abagabo babiri n'umukobwa umwe, bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umweru.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo umukara n'ubururu. Buri umwe afite impamyabumenyi imbere ye. Basa nkaho basoje icyiciro rusange cya kaminuza.

Abanyeshuri bagaragaza ko basoje icyiciro rusange cya kaminuza. Bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, ubururu n'ingofero z'umukara. Iruhande rwabo hari ishyamba rihakikije.

Inyubako itewe amarangi y'icyatsi. Hasi harimo amakaro. Hari ameza asa neza ndetse n'intebe iri mu mabara y'umukara n'icyatsi. Iruhande hari amatara.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'ubururu. Imbere hari ubusitani buhakikije, burimo indabo z'amoko atandukanye n'ibiti. Hari icyapa cyanditseho amagambo, ari mu ibara ry'umukara, imibare n'amagambo.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, harimo intebe zisa icyatsi n'ameza asa neza. hahagaze abantu, bamwe muri bo baricaye bafite amakayi imbere yabo, umwe afite ikaramu.

Icyumba cy'amashuri kirimo amakaro, hamanitseho ibitambaro biri mu mabara y'umweru, harimo intebe zisa icyatsi zicaweho n'abantu b'ingeri zitandukanye, buri umwe yambaye agapfukamunwa ndetse afite mudasobwa imbere ye.

Umuhanda w'ibitaka ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye. Hari kugendamo abantu bari mu ngeri zitandukanye, abana, abakuru. Abagore bambaye imyenda yiganjemo, ubururu, umukara n'umugabo wambaye ingofero.

Inyubako itewe amarange y'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane bufite isuku harimo indabo z'amoko atandukanye, hagiye haciyemo inzira, hahagazemo abantu bari mu ngeri zitandukanye bambaye n'imyenda iri mu mabara atandukanye.

Mu mashuri y'inshuke dusangamo ibikoresho byinshi bitandukanye bifashisha mu myigire yabo. Ikirago kirambitsweho ibikoresho biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, ubururu, umweru ndetse harambitse n'amakaramu y'ibiti.

Inyubako isakajwe amategura. Itewe amarange y'umweru, imbere mu busitani hari indabo z'amoko atandukanye. Mu muhanda uhari hahagazemo abantu batatu. Bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara n'umutuku.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, imbere mu busitani bwiza cyane bufite ibiti bitoshye, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu, bafite mudasobwa bari kurebamo.

Inyubako isakajwe amategura itewe irangi risa umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye, hari ikigega gisa umukara.

Icyumba cyamashuri giteba amarangi y'ubururu. Hamanitse ibitambaro biri mu mabara y'umukara. Harimo intebe zisa icyatsi, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye.

Umuhanda mugari uhagazwemo n'abantu babiri. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Inyubako isakajwe amabati y'ubururu. Ikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse nibiti.

Inyubako nziza cyane irimo utubati dutandukanye. Ku kabati hariho icyapa kigaragaza ko ari isomero. Kikaba kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza cyane itewe irangi risa umweru, harimo intebe zifite isuku hicayeho abantu bingeri zitandukanye bambaye n' imyenda ifite amabara atandukanye buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Ubutaka bugari cyane hariho ibibumbano bitandukanye nk'inkono ndetse n'ibindi bitwibutsa umuco gakondo, bimwe bigiye bigerekeranye biteretse hejuru y'ibindi.

Icyumba gitewe amarange y'umweru harimo intebe nziza cyane zicaweho n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru, imbere hari icyapa cyanditseho amagambo n'imibare, iruhande hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye ndetse n'ibiti bihakikije.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, itewe amarangi y'umweru n'umukara, harimo umuhanda uhaciye mwiza cyane ndetse n'ubusitani bufite isuku n'indabo zitoshye.

Inyubako itewe amarangi y'umweru arimo intebe zisa icyatsi numukara, buri ntebe yicayeho umuntu, bambaye imyenda iri mumabara atandukanye cyane, buri muntu imbere ye hari ikayi n'ikaramu.

Inyubako nziza cyane isakajwe amategura, itewe amarangi y'mweru, imbere mu kayira gahari hari kugendwamo n'abantu batandukanye, inyuma y'inzira hari ubusitani bwiza cyane bufite isuku ndetse n'indabo z'amoko atandukanye.

Akabati kariho icyapa kigaragaza ko ari isomero ndetse icyapa kikaba kiri mu mabara asa ubururu, umweru n'icyatsi, hari ikindi cyapa cyanditseho imibare.

Icyumba cy'amashuri kirimo ameza, ku meza harambitse amakayi, ibitabo, amakaramu ari mu mabara y'umukara n'icyatsi, ikiganza cy'umuntu gifashe ku ikayi, harambitse na telefone.

Ikibuga kiza cyane gifite isuku hamwe harasakaye, haparitsemo ibinyabiziga imodoka, iruhande haparitse amagare, hari ubusitani bwiza cyane bufite isuku kandi burimo indabo z'amoko atandukanye.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye, abahungu, abakobwa, abagore n'abagabo ndetse n'abana, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, iruhande y'umuhanda hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku kibuga gihari hahagaze abagabo bane n'umukobwa umwe bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo atandukanye, iruhande rwabo hari umuhanda uparitsemo imodoka.

Inyubako nziza cyane iteye amabengeza. Itewe irangi risa umuhondo, hamanitseho ibitambaro bisa umweru. Intebe z'icyatsi zicaweho n'abantu b'ingeri zitandukanye. Bambaye imyenda iri mu mabara yiganjemo umweru n'umukara, bafite ibikapu ndetse buri umwe afite icupa ry'amazi imbere ye.

Inyubako itewe amarangi y'umweru. Hashushanyijeho imbuto twifashisha kugirango tugire ubuzima bwiza. Voka, inanasi ndetse hariho n'imineke.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, imbere hari abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bamwe muri bo bahetse ibikapu mu mugongo, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'icyatsi n'umweru. Imbere hari ibikoresho twifashisha mu gukora amasuku, iruhande hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi.

Umuhanda uhagazeho umuntu wambaye imyenda y'umutuku n'umweru. Ubusitani bwiza buhakikije, burimo indabo z'amoko atandukanye. Inyuma y'inyubako hari ibiti by'amoko atandukanye.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'ibinyabiziga, imodoka ndetse n'ipikipiki, imbere hagaze umuntu wambaye imyenda y'umukara, umuhanda ukikijwe n'amashyamba.

Icyumba cy'amashuri cyubatswe neza cyane, gitewe amarangi asa umweru, mu ntebe hicayemo abanyeshuri bambaye imyenda isa umweru, buri umwe afite ikayi n'ikaramu, ari kwandika.

Abantu bari kugenda ahantu heza cyane, umwe muri bo ari gukora mu gikapu gisa umukara, bambaye imyenda iri mumabara y'umukara, mweru n'icyatsi, iruhande rwabo hari ubusitani bwiza burimo indabo ndetse n'ibiti.

Inyubako nziza cyane hagati hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, hari n'ikibuga hahagazeho abantu bagera kuri bane, bamwe muri bo bafatanye akaboko umwe afite igitabo mu ntoki.

Icyumba kigari cyane gitewe amarangi asa umuhondo. Harimo ibikoresho byifashishwa mu bwiherero. Hicayemo abantu babiri bambaye imyenda yiganje mu mabara y'umweru n'umukara.

Inyubako nziza cyane imanitsemo ibitambaro bisa umweru, ameza ndetse n'intebe nziza hicayeho abantu bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru n'umukara buri umwe afite icupa ry'amazi.

Ubusitani bwiza cyane ufite indabo ziteye amabengeza ndetse n'ibiti bitoshye, hari intebe nziza n'ameza hicayeho abantu batanu, abagore batatu n'abagabo babiri, bafite amakayi imbere yabo na telefone.

Inyubako isizwe amarangi y'umweru, hariho igishusho kigaragaza imbuto kandi imbuto ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko zituma tugira ubuzima bwiza, hashushanyijeho inanasi, pome n'imineke.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'icyatsi. Hagiye hamanikaho ibyapa, biri mu mabara asa umweru, icyatsi n'umukara. Amwe muri yo ashushanyijeho ibiti ndetse andi ashushanyijeho amazu.

inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, hamanitse ibitambaro bisa umutuku, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye impuzankano yiganjemo umweru, buri umwe afite icupa ryamazi.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru n'umuhondo, harimo intebe zisa neza zifite isuku, hicayeho abantu batandukanye buri umwe afite mudasobwa imbere ye ndetse imbere yabo hahagaze undi muntu abandi baricaye.

Inzu ngari cyane irimo abantu benshi bamwe bambaye impuzankano irimo amabara y'umweru abandi bambaye impuzankano irimo amabara y'icyatsi, bicaye ku meza meza cyane ndetse n'intebe nziza cyane, buri wese afite amazi imbere ye ndetse na mudasobwa.